Mu Inyubakomo mo imbere harimo abantu bicaye, imbere yabo hari imeza ziriho ibitambaro by'umweru n'amacupa y'amazi. Hari umumama( Umubyeyi w'umugore) wambaye ikanzu y'umuhondo uteruye micro(indangururamajwi).

Abantu bicaye mu nyubako mo imbere harimo abagore bambaye amadarubindi kugirango babashe kureba, bicaye ku meza ariho amacupa y'ibyuma, y'amazi n'imbere yabo hateretse za mudasobwa.

Mu nyubako mu imbere harimo umugabo w'Umunyafurika n'undi w'Umuzungu ufite ubwanwa bwinshi, wambaye ishati y'umweru, bicaye imbere y'ameza meza cyane agezweho afite ibara risa nk'umutuku, hateretseho imashini n'uducupa tw'amazi n'utundi two gukarabisha. Hari undi mugabo ku ruhande wambaye ipeti ry'ingabo z'u Rwanda w'umupolisi n'amapeti ku rutugu rw'iwe, yicaye mu ntebe.

Umugore wambaye ibitenge uhagaze muri pasiparumu afashe indangururamajwi mu ntoki ziwe, ahagaze areba abantu bicaye mu gishararagati cyubakishije shitingi y'umweru n'ibitambaro by'amabara ubururu umuhondo n'icyatsi, harimo abagabo bicaye n'abagore imbere yabo hari ameza ateretseho amazi na bya bitambaro bifite amabara atandukanye.

Inyubako nziza igezweho irimo itatse cyane irimo amatara y'ubwoko bwiza ari hejuru kuri parafu, hasi hari itapi nziza cyane y'ubururu, hicayemo abantu benshi b'urujya n'uruza abazungu n'Abanyafurika bicaye ku meza ateye neza ariho indabyo ariho igitambaro kiza cyane cy'umweru intebe z'umukara n'abantu bambaye amakoti.

Umugabo wicaye imbere ye kumeza hatetseho terefone n'agacupa k'amazi yambaye amadarubindi y'amaso n'ishati yikijuju y'amaboko maremare yambaye akantu mu ijosi k'agapapuro k'umweru inyuma ye hari umukobwa ufite imisatsi myiza nundi wambaye amaherena.

Umugabo ukiri mutoya w'umusore wambaye neza ishati y'amaboko magufiya y'ikigina n'ipantaro y'icyatsi n'isaha ku kaboko y'umukara n'agakomo ku kaboko kandi kariho umusaraba umeze nk'ari gutanga imbwirwaruhame imbere yiwe hari abantu bicaye bamureba.

Umumama cyangwa se umugore uri mu nyubako mu imbere nziza igezweho, uhagaze imbere y'abantu umeze nkaho ari gutanga imbwirwaruhame, yambaye indorerwamo z'amaso, umupira w'umweru n'agakoti karimo imirongo y'umweru k'umukara n'ipantaro isa nk'iryo kote ry'iwe, yambaye n'amaherena n'umusatsi mwiza w'umukara uryamye ku mutwe we.

Umunara muremure cyane, ukoze mu byuma bikomeye biri mu ibara ry'icyatsi, hariho n'insinga nyinshi cyane n'utundi tuntu turi ku ruhande dukikije, turimo ibara ry'umweru, umeze nk'aho ukoreshwa mu muyoboro w'itumanaho.

Ipironi cyangwa se umunara ukoreshwa mu miyoboro y'itumanaho ryubakishije ibyuma byiza cyane bikomeye birebire riri mu mabara y'umutuku n'umweru, bikikijwe n'agapangu k'uruzitiro gakozwe mu byuma nako, hari akazu gato kari hafi yaho gateye umucanga.

Ipironi rirerire cyane risize amarangi meza y'umutuku n'umweru rikoreshwa mu miyoboro w'itumanaho mu rwanda; rikikijwe n'insina ndende cyane zifite amakoma meza no hirya yaho hari ibiti bimeze nk'iby'imyumbati.

Ibi ni ibiro birimo ameza meza cyane ateretseho mudasobwa n'abagabo bicaye ku ntebe bari kureba muri izo mudasobwa hari aba bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara iy'inzu isize irangi ry'umweru n'inzugi z'ibiti by'imbaho bisa umuhondo.

Ipironi rirerire rikoze mu byuma ritwara umuriro w'amashanyarazi, hariho insinga nyinshi cyane zitwara umuriro w'amashanyarazi, hasi yaho hari ibyatsi birebire n'ibiti by'icyatsi imbere yaho hari imiturire hatuyeho amazi menshi y'abatu.

Iyi ni imodoka iva mu ruganda rwa toyota iri hakurya y'umuhanda wa kaburimbo ihetse urwego rukoreshwa mu bw'ubatsi hafi aho ngaho hari ibiti.

Aka ni agace k' umugi karimo amazu meza ashakaje amategura, hejuru yaho hari umurasire utanga ingufu z' amashanyarazi ,n' ikigega cy' umukara kivamo amazi, hejuru yaho hari ipoto rirerire ririho insinga zitwara umuriro wamashanyarazi ,imbere y'icyo gipangu, giteye uduti twiza, hafi y' umuhanda.

Abagabo babiri bari muhanda wa kaburimbo bari kwirukanka, umwe yambaye ingofero, hirya habo mu kayira k'abanyamaguru hateretsemo imitakako ibiri iri mu mabara y'umuhondo n'umweru biribirango by'umuyoboro w'itumanaho mtn le n'undi muntu wambaye imyenda y'ubururu n'undi mugabo wicaye hasimbaye umupira w'umweru hirya hari ibiti birebire cyane by'icyayi.

Iyi ni inyubako nziza ya kadasitere, ifite igipangu cy'amatafari ahiye, n'indabyo nziza ziteye kuri icyo gipangu, imbere yacyo hari ipironi ry'amashanyarazi ririho insinga nyinshi zitwara umuriro.

Ipiloni rirerire riri mu ibara ry'umuhondo ririho insinga nyinshi cyane zimeze nk'aho zitwara amashanyarazi cyangwa interineti ni ikirere gisa neza kirimo ibara ry'uburu n'umweru hafi y'iryo pironi hariho ibiti birebire byiza cyane by'icyatsi.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo wubatse ku buryo bugezweho, imbere yaba hari inzu ndende iri mu mabara y'umuhondo, hejuru yaho hari icyapa cyanditse amabara y'icyatsi, mu magambo y'icyongereza havuga ngo King Faisal, ibitaro by'umwami fayisali, hirya yaho hari ibiti birebire by'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo urombereje harimo umugabo ugiye kwambuka n'umumotari uparitse umeze nkaho akuyeho umugenzi n'abamama benshi bahagaze imbere ya kandagira ukarabe, ku nyubako ikikijwe n'igipangu cy'ibyuma iyo nzu yubakishijwe amatafari ahiye n'amategura n'amabati y'ubururu, hafi yayo hari ikigega cyubakishije ibyuma gisa umukara hari n'ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo hafi hari icyapa kikoze mu byuma cyandikiho amagambo y'umukara mu ibara ry'umweru handitsemo ibitaro bya Kabgayi hirye hari ibiti byiza birebire inyuma yabyo hari inyubako ndende ndende nini nziza yubakishije amatafari ahiye n'amabati y'ubururu isize n'amarangi y'umweru.

Inyubako yubatse ahantu heza yubatse mu buryo butangaje harimo ibice bigeretse n'ibindi bitageretse hirya hafi hari ahantu hateye indabyo nziza z'ibyatsi bisa icyatsi n'imikindo iyo nzu yubakishije amatafari ahiye igasakaza amabati y'umutuku hejuru hari ibikoresho bitanga umurasire.

Ikibuga kirimo kaburimbo, giparitsemo imodoka zitandukanye z’ubwoko bwinshi. Harimo amamodoka afite amabara atandukanye, arimo umutuku, ubururu, umweru, n’isa n’ivu. Hari umugabo wambaye ikote ry’umukara rifite ingofero y’umukara, ndetse n’umuntu wambaye igitenge gifite amabara menshi, hamwe n’umupira w’imbeho uri mu ibara ry’umutuku.

Aba ni abakobwa babiri bambaye imyenda isa nk'ay y'abagororwa b'u Rwanda impande zabo hari abagabo bambaye nk'abavoka cyangwa abashinjacyaha imbere yabo hari imeza iteretseho imashini n'ibitabo n'icupa ry'amazi.

Abagabo babiri bambaye nk'imfungwa bahagaze imbere y'abandi bantu bambaye nk'abashinjacyaha cyangwa abacamanza, imbere ya bo hari mudasobwa n'undi muntu wambaye ibintu by'umukara.

Umugabo usa nkaho ari mu myaka mirongo ine, wiyogoshesheje umusatsi ureshya mukeya cyane, wambaye karuvati iri mu ibara ry'ubururu n'utudomo tw'umweru, n'ishati irimo ibara ry'umweru n'utudomo tw'ubururu, n'igikanzu kiri mu ibara ry'umutuku n'umukara n'umweru.

Mu nyubako mo imbere hicayemo abantu benshi batandukanye harimo abagabo n'abagore, imbere yaho hari umugore wambaye amadarubindi n'amaherena meza cyane akoze muri zahabu, n'umwenda wambawe w'umuhondo, hirya yiwe hari umugabo wambaye ishati y'umweru na karuvati n'ikote ry'ubururu, imbere yabo hari imeze iteretseho ibirahure bicuritse.

Abagabo bahagaze k'umurongo bambaye imyenda isa munsi y'igiti kinini ,ishati n'ipantaro by'iroza birimo ibara ry'iroza bikunze kwambarwa n'abagororwa mu Rwanda hari abandi bagabo bakora bicaye, umwe yambaye imyenda y'umukara n'impapuro mu ntoki z'umweru bicaye ku ntebe z'ibiti.

Ibikoresho bitereretse hasi ku isi bikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro biri mu ibara ry'umuhondo, umutuku bifite akantu hejuru k'umuhondo n'itiyo itwara ibizimya y'umukara hariho ibirango byinshi biri mu ibara y'ubururu n'umweru.

Imodoka iri mu iba ry'umweru'umukara irimo abagabo bicayeho bafite imbunda n'imyenda ye bambaye imyenda y'umukara iherekejwe nabandi batwaye ibimoto binini cyane bikuweho amataramyasa bambaye ingofero z'ubwirinzi ziririmo ibara ry'umuhondo n'ibu n'amakoti y'i ry'umuhandado n'imikara imodoka zikoreshwa mu muhanda z'abashinzwe umutekano.

Umupolisi ushinzwe imigende myiza y'ibinyabiziga mu muhanda ahagaze atambitse ukubo ukundi aguhagaritse ari guhagarika umuyobozi w'ikinyabiziga cy'imodoka isa n'umweru n'umukara ngo ihahagare ku muhanda, imbere yayo harinda imodoka iri kugenda y'umukara n'amabara y'umutuku n'umweru, imbere yabo hari icyapa gikoreshwa mu muhanda kivuga umuvuduko ntarengwa ko mirongo itanu.

Abagabo babiri bahagaze bambaye imyenda isa bafite n'imbunda bameze nk'abashinzwe umutekano hejuru hari icyapa cyanyanditse mu magambo y'icyongereza mu mabara y'ubururu n'umukara avuga ngo porisi y'u Rwanda nk'uru yo mu karere ka Gasabo.

Iki ni igisenge cy'inzu bishoboka ko ari umuturirwa wa etage ku igisenge cyometseho amakaro y'umweru hejuru yaho hariho umurindankuba muremure ukoreshwa mu kurinda inkuba kugira ngo zitangiza ibikoresho.

Umugabo cyangwa se umusore w'imyaka makumyabiri n'itanu mirongo itatu n'itanu, yambaye ishati y'umweru karuvati ijire n'ikote ryiza ry'umukara, afite agasatsi gakeya n'amaso manini.

Umugabo usa nkaho ari mumyaka mirongo ine na mirongo itanu wicaye mu ntebe y'umusego mwiza cyane y'umukara yambaye karuvati y'umuhondo n'ishati y'umweru n'ikoti ry'umukara, imbere yiwe hari indangururamajwi n'akameza gateretseho icupa ry'amazi.

Umugabo usa nkaho ari mukuru mu myaka mirongo ine na mirongo itanu wambaye amadarubindi ufite umusatsi ureshya w'umukara cyane, yambaye karuvati n'ishati y'umweru n'ikote ry'ubururu, imbere ye hari indangururamajwi n'icupa rya palasitike ribamo amazi yo kunywa.

Icyapa cyamamaza umukandida w'umuryango wa Efuperi Paul Kagame. Abaturage benshi cyane bari kugenda bateruye icyapa mu muhanda, bari kumwamamaza.

Umugabo w'igikara ufite umusatsi muremu muremure w'igikara w'umukara nawe usa hari ari mumyaka mirongo itanu yambaye karuvati n'ishati y'umweru n'ikote ry'umukara inyuma yari iba hari ibitambaro birimabara atandukanye umuhondo umutuku n nicyatsi n'ubururu.

Umuhanda ushashe neza cyangwa ahantu hashashe neza, hameze nk'aho higirwa imodoka, zihaparitsemo imodoka n'amakona y'umutuku, imodoka zisize irangi ry'umutuku n'ayandi mabara y'umweru, umukara ashushanyije kuri izo modoka.

Iyi ni imodoka iri mubwoko bwa dina, yo muruganda rwa era parasitike itwaye ibikoresho bya parasitike by'amatiyo bikoreshwa mu bwubatsi cyangwa mugutwara amazi, iri mumuhanda wa kaburimbo.

Imodoka ya hoho ituruka mu bushinwa ikunze gutwara imicanga iri mu muhanda rwagati, hafi ahongaho haparitse umumotari ku cyapa cyaro mirongo itandatu.

Imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo, ikoreshwa mu bwubatsi, ifite imashini ivanga sima, n'umucanga, n'amabuye, bikoreshwa mu bwubatsi.

Iyi n'imodoka iparitse mu muhanda wa kaburimbo, imodoka iri mu mabara y'ubururu, umukara n'umweru n'ibirahure byinshi cyane. Imbere yayo hari umuntu uhagaze wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara n'inkweto zifunze.

imodoka itwaye abagenzi rusange iri m'umuhanda wa kaburimbo igenda, hirya yayo hari umunyamaguru uri kugenda nawe inyuma yiwe hari ibiti birebire byiza cyane by'icyatsi.

Igare rya matabaro rihetse agafuka gatoya riparitse hafi y'umuhanda wa kaburimbo ahegereye akayira k'abanyamaguru n'umumotari utwaye umugenzi ku moto ya gikuma.

Uyu ni umuhanda w'akaburimbo ushaje urimo imodoka eshatu, iy'imbere iri mu mabara y'ubururu, iriya yanditseho amagambo y'umweru, n'iya kabiri iri mu mabara y'ubururu n'igatatu iri mu mabara y'ubururu yandisteho amagambo na nimero byanditse mu mweru n'umuhondo, hirya yaho hari ibiti byiza cyane birebire biri mu mabara y'

Abantu bicaye ku ntebe z'ibiti zirambuye, akanyubako kubabakishijwe ibyuma by'umukara hejuru gasakajwe imbaho z'ibiti zisa umuhondo ,hiryaba abantu bari gutambuka harimo mama n'umukobwa wambaye ipantaro hejuru y'umukara n'ishati y'umweru.

Iki ni icyapa gikoreshwa mu muhanda cyereka umuyobozi bw'ikinyabiziga ko imbere ye hari ikona riri ibumoso.

Iki ni icyapa gikoreshwa mu muhanda kibwira umuyobozi w'ikinyabiziga ko imbere haparika bisi, giteye mu busitani bwiza cyane burimo ibiti ni na pasiparumu nziza, imbere yaho hari inyubako ndende cyane irimo ifite ibirahure by'ubururu isize irange ry'umweru.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda kiburira umuyobozi w'ibinyabiziga ko imbere ,hari kamera ishinzwe kureba umuvuduko ikinyabiga kiri kugenderaho, utarengeje mirongo itandatu ,gishinze hafi y'akayira k'abanyamaguru ku muhanda wa kaburimbo, harimo umumotari utwaye umugenzi...

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, ku nkengero zawo hariho ibyuma bitangira imodoka mu gihe habaye impanuka n'icyapa kinini cyanditseho akarere ka Karongi, imbere yaho hari imashini ihinga, muri uwo muhanda wa kaburimbo hari abantu babiri bameze nk'aho bari kuganira.

Icyapa gitegeka gikoreshwa mu muhanda, kiburira umuyobozi w'ikinyabiziga ko umuvuduko ntarengwa ari makumyabiri. Kiri mu mabara y'umutuku n'umweru cyandikishije cyanditseho amagambo makumyabiri mu mabara.

Umuhanda wa kaburimbo usa nkaho ukiri mushyashya, urimo imirongo y'imyeru n'iyindi y'imikara, hirya yaho hari ibyatsi bisa neza harimo icyapa gikoreshwa mu muhanda kibuza umuyobozi w'ikinyabiziga ko aho hantu hatemewe guhagarara. Hirya yaho hari igikuta cy'amabuye hejuru yaho hateyeho indabyo nziza cyane ndende n'igipangu cy'ibyuma bisize irangi ry'umweru.

Intebe z'ubwoko bwinshi butandukanye ameza ndetse n'utubati, hari utuba ushobora kubikamo amasahani yawe, hari utuba ushobora kubikamo imyenda ndetse n'utwo wabikamo ibikoresho byawe bigiye bitandukanye, sibyo gusa kandi ushobora kwifuza ibikoresho nk'ibi ukaba wakwibaza ngo nabikurahe? Ushobora kujya kuri murandasi yawe ukandikamo aho wakura ibikoresho nk'ibingibi bitandukanye uhita ubona nimero zabo ukabahamagara kandi babikugezaho byoroshye.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru n'umukara cyerekana aho abanyamaguru bambukira gishinze hafi y'igikuta cy'amabuye kirekirerere hejuru yaho hariho ibyuma ku ruhande rwaho hari y'ibyatsi byiza cyane bisi icyatsi.

Agace k'imiturire karimo amazu meza ari kubakwa n'ayandi yarangije kubaka, harimo amazu yama etage ageretse nka kabiri cyangwa gatatu, afite ibisenge bya konoshi by'umutuku n'umuhondo, hejuru yayo hari ifoto ry'amashanyarazi rirerire rikoze mu byuma .

Abagabo babiri bambaye imyenda y'imikara bigaragara ko ari imyambaro ya polisi, bahagaze iruhande rw'inzu ntoya mu marembo y'ikigo cya polisi ishami rya Remera.

Agace k'umujyi gafite amazu meza afite ibisenge byiza birebire bisa umuhondo n'umutuku hafi hateye ibiti byiza cyane bisa icyatsi byasi sipure n'imodoka ziparitse, n'umumotari uparitse mu muhanda wa kaburimbo uhura n'uw'ibitaka, n'icyapa kiranga agace ugezemo kanditseho kakaka mirongo itantu n'icye.

Iyi ni inyubako ndende nziza cyane, isize irangi ry'ubururu n'ibirahuri by'ubururu nini n'amarangi y'umweru hejuru, imbere y'abaparitse imodoka nziza cyane irimo ibara ry'ubururu. Iyi nyubako ikorerwamo amakoro, handitseho icyapa kinini kivuga ngo; amakoro n'ibikoresho by'ubwubatsi.

Agace k'imiturire karimo amazu meza cyane, afite ibisenge byiza birebire bifite amabati y'umutuku n'andi y'umuhondo arimo amazu ageretse kenshi, umuhanda w'ibitaka urimo imodoka imbere yayo hari umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura ari kugenda ari kugenda ahindukira areba iyo modoka ihagazeyo umuntu wambaye ipantaro y'umweru.

Iyi ni imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo mu gihande k'iburyo hafi yaho hari ibiti bifite indabyo z'umuhondo n'ibindi by'umunyinya.

Inyubako nziza cyane ndende y'igorofa igeretse kenshi, yubakishije ibirahuri byiza cyane by'umukara bibonerana, isize amarangi meza y'umuhondo, n'ayandi ajya gusa nk'umutuku.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo uriho umumotari uhetse umugenzi, wegereye aho abanyamaguru bambukira hirya yaho hari akayira k'abanyamaguru hari n'icyapa kigaragaza ko aho ngaho imbere hari ikigo cy'amashuri higaho abanyeshuri b'abana.

Umuhanda wa kaburimbo ushaje, ku ruhande rwawo hari akayira k'abanyamaguru gajejemo amabuye, imbere hari umunyonzi, inyuma y'uwo munyonzi hari imodoka y'umweru itwara imizigo, yanditseho amagambo y'umutuku uvuga ngo itwara inyama, izijyana ku iguriro ry'inyama.

Uyu ni umuhanda w'igitaka winjira muwundi wa kaburimbo, impande zaho hateye ibiti birebire, kimwe ni ipapayi, ikindi ni sipuri izindi ni indabyo ziri kugipangu cy'umukara. ku nzu ya konoshi y'amabati y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ivumbi, urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga harimo ibikamyo, abamotari n'amagare n'izindi modoka zindi, hirya yaho hari aho abanyamaguru bategerereza imodoka, hariho ibyapa byamamaza amamodoka.